Kunywa ibinyobwa bya fanta, ibinyobwa bidasembuye bituma mu mubiri wawe habamo umutuzo ntihazemo akajagari ,ku buryo ushobora no kugenda umeze neza wemye ntakibazo.

Urya neza, iyo warire neza ubaho neza, iyo wariye inyama ntabwo ujya kuyituma, ahubwo iyo nyama ifata ku mubiri, iyo uriye aga sarade kaba ari keza mu maraso, iyo wariye agafiriti kakongerera umubiri ukabyibuha cyane.

Guhuza imiryango mugasangira, ni mu bintu bimwe bifasha buri wese kubwira mugenzi we ikibazo afite, mukaba mwagishakira umuti muri hamwe, kandi nta kabuza kikabona igisubizo.

Birabujijwe gukoresha abana mu mabara cyangwa akandi kazi ako ari ko kose, kuko uwo bazafata ari gukoresha uwo mwana azahanwa n'amategeko. Gukoresha umwana ntabwo byemewe.

Erega niba wakoze akazi kawe kashimwe n'uwiteka ugomba gushuka vino yawe ukinywera ni yo mpamvu ugomba kunywera ahantu hasirimutse hameze neza ,hatarimo akavuyo. Niba wakoze kandi ugahembwa umushahara mwiza wiyamarire mu nzoga wibuke ko ufite n'urubyaro cyangwa ugomba guseviinga ukizigamira.

Abantu ba kera barataramaga, ugasanga nta kibazo bafite bacanye umuriro bari kota, hari n'intore ziri kubyina ndetse n'abakaraza bari gukoma ingoma, ibintu byabaga ari byiza cyane.

Kugira inzu ni kimwe no kugira abayigirira isuku ni ikindi. Ni yo mpamvu buri wese ugira inkuru nziza agomba kuba afite umukozi ugomba kwita kuri iyo nzu mu gihe yangiritse bakayisana kugira ngo asigasire ubwiza bwayo.

Mu birori bimwe na bimwe birabuza abakobwa kwiyandarika ndetse n'abasore kuko sida irahari ntaho yigeze ija, Iracahari, iracahari pe! Muyirinde ndetse muyirinde n'abandi.

kubaka inzu ntuyikore neza cyangwa ngo uyubake neza, bituma inzu yawe ihura n'ibiza by'inkubi y'umuyaga bityo bikakudindiza mu iterambere warugezemo bikagusaba gutangirira hasi.

Buri muturage wese asabwa kugira aderese imuranga, ku buryo hagize n'umuntu umushaka, yamenya ahantu amushakira atiriwe abaririza, ku buryo iyo aderese igomba kuba izwi n'abantu benshi.

Vorukanozi natinoro pake, wabasanga hano mu kinigi mu misozi, Rwanda developomenti bodi ku bidukikije, waza ukirebera inyamanswa, ikicaro wagisanga muri kilometero eshatu, imbere yawe.

Kugira amafaranga ntibivuze ko wakwisuzuguza; ahubwo niba uyagira sohokera ahantu heza. Ahantu nakurangira ni kuri Parisi moteri, icyo ushaka icyo ari cyo cyose wacyihasanga, kandi byose biba bihari bimeze neza.

Ikawa yo mu Gwanda turayihingaga ibaga iryoshe. Izi nzu z'ubucuruzi wagenda ugahaha ikawa, ndetse n'ibindi bintu byo kurya, cangwa ukajya ku gundi muryango ukishura amaserivisi ago ari go gose, ukoresheje telefone zigendanwa.

Inzu z'ubucuruzi, wahasanga amaterefone, amakompiyuta, amakamera, amasaha, amaketo, amateleviziyo, n'amapure, ibyo bintu byose wabisanga hano mu mujyi kwa Pasi, aba abifite byinshi cyane.

Kwambara neza biriri mu bintu bituma umuntu asa neza, agaragara neza haba ku myambaro ndetse no ku isura, uwo muntu wambaye neza rero agomba kugura imyenda myiza cyane ayiguriye ahantu heza cyane cyane mu masoko.

Hano ku irebe basiketi kolegishoni ,dufasha abana bafite impano yo gukina basiketi bolo, muze mwese abafite impano yo gukina basiketi bolo. Muze ni karibu, ku bindi bisobanura wamagara : zeru, karindwi ,umunani, umunani, gatanu, kane, gatandatu, gatatu, gatanu, karindwi. Cyangwa ugahamagara :zeru, karindwi ,gatatu, karindwi, kabiri, rimwe, gatandatu ,gatandatu, zeru ,icyenda, murakaza neza.

Kubaka inzu y'ubucuruzi , ukayubaka ahantu hegereye ku muhanda, ibyo bintu biri mu bintu bimwe bigufasha mu gukurura abakiriya ndetse ukabona n'abantu bazikodesha ari benshi cyane.

Kubaka inzu z'ubucuruzi ku muhanda ni bimwe mubintu biduha iterambere, bigatuma dushora imari hamwe hamwe, ndetse tukanagukagu mu buryo bw'ubukungu.

Kubaka inzu y'ubucuruzi ahantu hari umuhanda, biba ari byiza cyane kuko ubona abakiriya ubona abaguzi benshi cyane, kandi ukagira n'ibintu wambika imyenda kugira ngo uza kugura abone sayizi y'ikiriho amenye niba uwo mwenda wamukwira.

Inzu z'ubucuruzi bacuruza imyenda y'abagabo, iy'abagore, inkweto, amashati, amarido, n'amakuvurori, n'ibindi mbese. Ubashaka wabasanga ku maduka ayo ariyo yose, wabibona kandi ku giciro cyiza.

Ahantu babetingiraga bari gukina ibintu by'imipira. Ni ahantu hamaze kudutwara ubwenge bwinshi cane, ku bujyo urubyiruko rusigaye rurabona amafaranga, rukumva ko rutakwiteza imbere, ahuko rukaja gukina za beti, rugateza abazungu imbere. Ibyo byose tugomba kubyirinda.

Kenkayeri isoko y'ibyiringiro limitedi, hano wahasanga amakaro, amapave, amabati ndetse n'ibindi. Ku bindi bisobanuro wahamagara zero karindwi umunani umunani gatatu gatatu gatatu kabiri umunani gatatu cyangwa ugahamagara zero karindwi umunani gatatu karindwi icenda karindwi kane umunani gatandatu.

Kwihangira umurimo ntako bisa， buri wese agomba gukura amaboko mu mufuka，agakora kuko ni yicara，ibiryo ntabwo bizamusanga aho biri，cyangwa ngo amafaranga yizane. Shinga akabizinesi gato， bizagera nyuma kabe kanini.

Kubaka amazu y'ubucuruzi ahantu hegereye umuhanda biduha inyungu nyinshi, bikaturinda ibihombo by'uko twabura abantu bazikodesha kugira ngo bazicururizemo tukabona n'amafaranga.

Buri wese yakwihangira umurimo akiga gukora amaterefone, nkaho ngaha bakora amaterefone ayariyo yose yaba iyapfuye hehe barayikora ikongera ikaba nzima nawe wa kwiga ukakirigita ifaranga.

Ubucuruzi bw'ibikoresho by'amamodoka, ni ubucuruzi bwunguka cyane， ubu bucuruzi bugira amafaranga menshi， menshi，menshi cyane. Ubwo bucuruzi wabukorera mu nzu yegereye ku kumuhanda， kugira ngo ubone abakiriya.

Ikaye ni kimwe mu bikoresho by'umuyeshuri bimufasha mu kwiga, bimufasha mu gusubiramo amasomo ye kandi agakoresha impapuro ari gukora ikizamini cyangwa ibindi ibyo ari byo byose yakeneramo izo mpapuro.

Ni kimwe mu bintu bifasha umuntu kubaho neza kuko ukoze cyane ubutaruhuka ubwonko bwazaturika. Amasaha menshi tuyamara turyamye, turi kwita ku bwonko bwacu kugira ngo busubirane imbaraga tubone imbaraga zo gusubirana mu kazi.

Niba ugiye kubaka inzu uba ugomba kuyishyiriraho umutekano kandi iyo nzu ikaba ifite pariking. ikaba ifite icyapa kiranga. Ku uburyo n'uwaza atayoba.

Kubaka inzu zigerekeranije byadutera impanuka zo kuba izo nzu zagwa ugasanga duhuye n'ibibazo byo kuba twaburiramo n'ubuzima bwacu.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi, hano hava ibintu byinshi cyane, abaturage baritabira, bitabira guhaha, namwe nimuze muhahe, hari umunyu, umuceri, kawunga n'ibindi. Kandi abaturage barahakunda cyane bitabira guhaha, namwe nimuze imiryango yacu ihora ifunguye ni karibu.

Buri mucuruzi wese agomba kuba afite kandagirakarabe yo kugira ngo buri wese yimakaze isuku buri aho ariho hose, twamagane umwanda, tugire isuku, isuku itubeho nk'umuco.

Amaherena ni bimwe mu mitako umugore akunda kwambara ku matwi cyangwa ku mazuru bikamuhereza ubwiza budasanzwe, ku buryo umubonye wese amutangarira.

Baravuga ngo nta foto ntacyabaye . Niyo mpamvu buri wese ushaka ifoto nziza yajya kwa gifuti sitidiyo akamufotora amafoto meza, meza cyane.

Kugira amashanyarazi yo ku muhanda bidufasha mu bwirinzi kandi nta n'umuntu wadutera turi ku muhanda, amatara aba ari kwaka akatumurikira tukagenda dufite amahoro n'umutekano.

Erega umutekano gubaga guri hose, nta wateza akaduruvayi, cyane cyane ku mazu y'ubucuruzi, ahantu hagara haharaga banyonzi, ndetse na n'umuturage muri rusange ntagahungabane, kuko umutekano go gurahari. Gurahari mwinshi cane.

Kugendera iruhande rw'umuhanda bituma umunyamaguru yirinda akirinda impanuka, kuko agendeye mu muhanda, ikinyabiziga gishobora kumugonga, kikamuturuka imbere cyangwa inyuma agapfa.

Kuba ugira inzu ntibivuze ko ugomba kuyiterena ahubwoka iyo nzu yihereza ibyangombwa ibyo ari byo byose, niba hari aho ubonye yagize ikibazo ugomba kuyisana kugira ngo ukomeze uyisigasire ubone amafaranga menshi.

Mu rwanda umutekano gubaga guri hose, uri kubona ko hano hariho umudaso, umutekano gubaga guri ahantu hose hose ntacadukanga dufite umusaza wacu atwitagaho Kandi neza cane.

Hano ducuruzaga ibiribwa, ibinyobwa, harimo amanyama, amaburushete, inzogazi zimbuye, amaji. uwahaserukiye we n'umuryango gwe, atahanaga akanyamuneza, agataha yishimye, binintu mbese ari mu nange.

Buri wese ntaho atacururiza ntaho atakorera umushinga niyo washinga umutaka ku muhanda ugacuruza upfa kuba uri gucuruza ukinjiza ukabona n'inyungu ibyo bintu byaguteza imbere.

Buri wese aba agomba kwambara akabekwa .Niyo mpamvu hano kuri iyi nzu wahasanga amakanzu meza cyane ,amasafuriya ,ku buryo utabura n'icyo gutekamo uri wawe.

Erega mu masoko manini hagomba kuba hafite ubwirinzi kandi n'ikintu kigomba gutanga ibimenyetso cyane cyane nk'amakamera agomba gufotora uwo ari we wese ugerageje gukora amakosa.

Buri kigo cyose cyose kigomba kuba gifite ubwirinzi kandi buhagije kuko kigize ibyago byo kuba cyafatwa n'inkongi y'umuriro cyawuzimya byihuse ku buryo nta muntu wagiraho ikibazo.

Umuhanga yaricaye arandika ngo ntiwasa neza utambaye, ni yo mpamvu nawe ugomba kwambarira ahantu hameze neza, ukambara imyenda imeze neza, ya myenda itagutesha isoni, ahubwo ikakugira umuntu mu bandi.

Ubucuruzi bw'amabutike buremewe, ariko ubwo gutandika hasi buteza umwanda; ntabwo yubaka byemewe kuko bishobora gukurura umwanda mwinshi mu isoko, ugasanga haziyemo n'indwara tutamenya.

Buri wese abagomba kwihangira umurimo agakura amaboko mu mufuka agakora. Nk'aba bihangiye umurimo wo gukora imbabura mu mabati ashaje, aba bo bayacuruza kandi abaturage bakunda gugaha. ni karibu mwese muze muhahe.

Buri wese agomba kwihangira umurimo agakora. Ni na yo mpamvu wishingiye akabotike, ukizeza abaturage ibyo bakeneye, bagomba na bo kukuyoboka bakaza bakaguhahira, ukabona amafaranga ushaka.

Bene nk'aha abaturanye bakunda guhaha muze muhahe ibi byose ni karibu, ama serivisi ayo ari yo yose turayatanga, kandi haba n'ibindi ibyo ari byose, ibyo ngibyo rero buri wese ntawe uhejwe; buri wese ni karibu.

Inzu y'bwogoshi ni inzu ibaga irimo imisatsi myinshi kandi iyo nzu uwo ariwe wese uhakoraga agomba kuyigirira isuku ku buryo umukiriya uraza arasanga nta kibazo ateye akicara atuje ameze neza.

Mu mugi wa Musanze, n'ahantutu haba, hari abantu benshi, benshi cyane, baturutse impande n'impande, baje kwirebera uwo mugi ukuntu usa neza, amazu meza, ndetse baje no kwihahira ibikoresho, byiza cyane.

Iringi rifasha igare mu kugenda, rikariha ubwirinzi. Kandi niyo igare rigeza ikibazo, iringi rihita ryikuba, ku buryo umuntu adapfa kugwa iringi ryikubye.

Buri muturage wese agomba kwihangira umurimo, agakura amaboko mu mufuka agakora. Baravugaga ngo udakoraga ntakarye. Niba ushaka kurya ugomba gukora. Ihangire umurimo rwose kandi.

Kubaka inzu z'ubucuruzi ku muhanda bituma umuntu abona amafaranga menshi, akabona abazikodesha, akabona n'abantu ndetse bazihahiramo. Kandi n'iyo wazigiyemo, iyo ucururijemo ubona abakiriya benshi cyane.

Buri muturage wese agomba kuba afite ubwisungane mu kwivuza bimwe tuzi nka mituweli .Ku bindi busobanuro wahamagara zero karingwi umunani umunani, gatandatu zaro, kane kabiri, kabiri rimwe ,cangwa ugahamagara zero karingwi umunani, icenda gatatu, gatatu gatanu, umunani kane gatandatu. Murakoze.

Kuba muri korali bituma umuntu akorera hamwe. Bigatuma umuntu areka ingeso mbi. Bigatuma umuntu yita ku bintu byamujyanye muri korali, ntiyite ku bintu by'isi ,ahubwo akarebana n'Imana ye ku giti cye.

Buri wese agomba kuba afite ubusitani iwe mu rugo kuko iyo ufite ubusitani iyo urushe uragenda ukicaramo akayaga kakaguhuha ukaba umeze neza nta kibazo ugafata akuka keza.

Calasiki resitorenti lodge, mwadusanga hano hakurikira, nyakinama n'iya ayipi arasi musanze, tukaba tugira ibintu byose, wakenera aho kurara, ibyo kurya biba bihari ari byinshi cyane, wadusanga muri kilometero zirindwi ziri imbere yawe.

Baravuga ngo imitako ni yo igize inzu. Niba wubatse inzu ukayitaka, iyo nzu uwayireba wese yakwifuza kubaka nk'iyo nzu. Iyo nzu iba ishimishije cyane igaragariye amaso neza.

Kugira akajaride iwawe ujya kuruhukiramo ni ibintu bifasha umuntu gutekereza neza, kandi bigafasha n'ubwonko kongera kwisubiza ububasha bwo gutekereza ibintu bihambaye cyane, kugwego go hejuru.

Ubucuruzi bw'inanasi, ni ubucuruzi buri wese yarambika aho abonye kandi buri wese, agomba kubugirira isuku. Ku buryo umuntu urarya iyo nanasi atararwara ngo aze kugira ikibazo.

Shufureri ni ibiribwa biryoha cyane, kandi buri wese yakwihangira umurimo wo gucuruza, ukabicururiza ahantu hagaragara ku buryo utabura abakiriya cyangwa uhombe.

Kurira ku masahani bituma umuntu arya neza. Ntarire mu masafuriya cyangwa mu kindi kintu, ntarye imyanda ahubwo akarya ibiryo bifite isuku. Ku buryo agize n'ibyago atabeshyera ayo masahani.

Buri wese watanditse imyumbati ku muhanda baraziguraga, kandi akabona amafaranga gamubeshaho, gamutunze, ku buryo aba yasaguriye n'amasoko kandi nawe hari ibyo yisigiye iwe mu rugo gwe.

Buri muturage wese ategetswe, kwambara kandi akambara neza imyenda imukwiriye. Kwambara umwenda ukurekuye cyangwa umwenda mugufiya utagukwiye birabujijwe. Buri wese agomba kwambara neza akikwiza kugira ngo buri wese abe atekanye ahari hose.

Gufuro ukoresheje isabune ya tembo, ni isabune nziza igufasha gukesha umwenda wawe, ugasa neza ku buryo uzira umwanda. Iyo sabune wayisanga mu ma botike, ayo ari yose mu gihugu.

Wotameloni idufasha mu guhoza amazi mu mubiri wacu ku buryo umubiri wacu utagira ikibazo cyo kubura amazi, cyangwa se ngo ube wagira amazi makeya mu mubiri.

Ubucuruzi bwo mu masoko ahenze, ni ubucuruzi buba busa neza, kandi nawe ucururizamo cyangwa ushaka guhahiramo, wanyaruka ugahaha, ibintu biba bihendutse kandi ari byinshi cyane.

Gucururiza mu muhanda si kimwe no gucururiza mu isoko. Gucururiza mu muhanda ahura n'impanuka, uhura n'ibyago byinshi. Ariko ucururiza ku isoko aba yicaye yiturije, agategereza ko abakira bamusanga. Niyo mpamvu twese dukwiye kwitabira kujya gucururiza mu masoko tukava mu mihanda.

Ibisheke biraryoha biduha isukari kandi bikatwongera n'isukari mu mubiri, umuntu wariye igisheke akunda kubira ibyuya, aba yongeye isukari nyinshi nyinshi mu mubiri we.

Amashu ni bimwe mu bigize imboga， kandi iyo wariye amashu， cyangwa wariye imboga， ubaho neza， indwara， nta ndwara yapfa ku guhangara. Amashu aba aryoshye cyane，kuyarira mu birarayi.

Aga maji gose gabaga garyoshe. Mwihutire kugagura mwiyumvire namwe ku buryohe bw'ukuntu gabaga gameze. Cane cane aga ga mirinda n'aga ga sarama gabaga garyoshe cane cane uburyo buryoshe, uburyo bwinshi cane ntiwahasanga ku masoko.

Goyiko ni isoko riba ari rinini, ribamo abantu benshi, uruvangitirane, abantu baba baturutse impande n'impande baje guhaha, kandi serivise bacyeneye zose bakazibona, bakazibonera ku gihe.

Utuyunguruzo dufasha mu kuyungurura amazi cyangwa ibindi binyobwa byanduye, ku buryo imyanda yose yose yaba irimo iravamo igashiramo.

Inzu y'ubucuruzi wayisangamo amata, amabombo, imikati, amavuta, imiceri, kawunga, amagi n'ibindi byinshi. Ushaka guhaha wabisanga hano ku gasantere, kandi abaturage bakunda guhaha banezerewe cyane.

Mu masoko habaga harimo abantu benshi babaga baje guhaha. Mu masoko habaga harimo serivisi izo arizo zose bakazihasanga, kandi abaturage bagomba kwitabira guhaha kuko mutabihashye ntaho twazabajyana.

Inanasi n'imbuto ziryoga cane. Ni imbuto buri wese atandika aho abonye kandi yazicuruza uko abishaka bitewe n'ubushobozi bwe. Ni imbuto zaguha amafaranga ugakira ukaba umukungu.

Kugera ahantu ucururiza ni ibintu bimwe bifasha umuntu kugira ngo ataza kugira ikibazo cyo guhungabana ku mutekano akagira amahoro asagambye kandi bikaguteza imbere kuko ntabwo uba ucyirukanka mu muhanda ngo wowe n'abapolisi mube muri mu miguruko.

Ubucuruzi bw'imbuto，ntaho utabukorera，kandi wacuruza ipapayi， amarongi， amatunda， pome n'ibindi byinshi，ku buryo ubashije kubicuruza，wakwiteza imbere.

Amatara ni ibikoresho bidufasha mu kureba nimugoroba, kuko amatara afite umumaro munini cyane, akorana n'amashanyarazi cyangwa imirasire y'izuba bikaduha umuriro wo kureba nijoro.

Baravuga ngo kwambara neza ni ukwihesha agaciro niyo mpamvu kwambara imyenda myiza ntushireho agakweto keza bibaga ari ikosa. Wagura udukweto twiza tukubereye, tubereye ijisho buri wese utubonye akifuza kugura nk'udukweto twawe.

Hano mu isoko tugiraga inyanya turacuruzaga buri bwoko bw'ibiribwa ubwori bwose. Ubw'ibirungo ndetse n'ibindi. Kandi hano abaturage bakundaga guhaha. Namwe ni karibu muze muhahe ibintu nta kibazo ni amahoro.

Mu isoko iryo ari ryo ryose hagomba kuba harimo utuntu tw'isuku ku buryo nugize icyo ashaka kujugunya ,yakijugunyamo adateje umwanda mu isoko ryose.

Erega mu isoko haba harimo ibintu byose. Mu gihe wahaha ibyo kurya harimo imbuto, voka, imineke, kandi n'abaturage bakundaga guhaha cane. Ibintu barabikundaga kandi bibaga biryoshe cane cane.

Indagara ni ikintu kimwe mu bigize intungamubiri, ndetse umwana wariye indagara akuraga ameze neza, ugasanga mbese nta n'ikibazo afite. Kandi twese twitinyuke ducuruze, twishakire imirimo, dukure amaboko mu mufuka, hato abazungu batazatumenyera bavuga ati ntago dukoraga.

Kubaka amasoko ajyanye n'igihe ni ibintu bidufasha cyane mu kwiteza imbere no guteza imbere igihugu cyacu tugakura abacururiza mu muhanda tukabazana mu masoko bagacururiza mu masoko nabo nk'abandi.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi irimo ibintu byose buri muturage yaza agahaha ntawe uhejwe, ndetse n'udafite amafaranga mu ntoki harimo na mopeyi bimwe bita ibya kijyambere ni ukuza. Buri wese arisanga ibicuruzwa byose birahari.